Abantu bane baje kuvoma ku mugezi ufite isoko ituruka mu butaka, umubyeyi umwe ari guterura ijerekani ayikura ku mugezi, undi ari kunyonga amazi ngo azamuke bavome, abandi bana babiri bateruye utujerekani bitegura kuvoma, ku mugezi hari isafuriya ku buryo amazi amenetse atagiye mu tujerekani ahita ahitira muri iyo safuriya.

Abantu bagera kuri batatu bari kubyina imbyino gakondo barambuye amaboko ndetse banishimye cyane, abo bantu barimo umukobwa umwe wambaye ikabutura, akambara n'umupira w'umukara hejuru, ababyeyi babiri bambaye amakanzu itukura n'indi y'amabara menshi, bari mu cyumba cy'uruganiriro rurimo intebe nyinshi abantu bareba ibihangano byabo.

Amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, yerekana umuryango mpuzamahanga uharanira ubuzima bwiza ku isi nk'uko bigaragara mu kirangantego cyawo harimo inzoka izingiye ku giti ndetse hakaba n'utundi tuntu tubiri tuzingiye nk'ipfundo wagira ngo ni amashami.

Abantu bitabiriye inama bari mucyumba cy'inama bicaye ku meza atwikirije ibitambaro by'ubururu imbere yabo hateretse amacupa y'amazi. Abo bantu bakurikiye uri kubabwira ikiganiro, bambaye amashati abandi bambaye imipira.

Abana bane baje kuvoma amazi ku mugezi ufite isoko yo mu butaka, bafite utujerekani bose, bari kumwe n'umuntu uri kubanyongera uwo mugezi kugira ngo amazi azamuke, umuntu yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, hirya hari imodoka y'umweru iparitse munsi y'umuhanda.

Abantu bane bari kuganira ku bijyanye n'ibyo bari bumurikire imbaga, kuko bahagaze imbere ku rubyiniro, hagiye gutangirizwa umunsi mukuru ku bijyanye no kurengera uburenganzira bw'abana. Aba bantu harimo umuhungu umwe, abakobwa babiri, ndetse n'umubyeyi umwe ugaragara ko akuze kubaruta.

Itsinda ry'abaganga bambaye impuzankano z'umweru uterurutse ndetse n'amakarita y'akazi kabo mu ijosi, bari kumwe n'umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ikote ry'umukara ndetse n'indorerwamo z'amaso zibafasha kureba, bigaragara ko bari kwifotozanya nk'aho yari yaje kubaha ikiganiro cyangwa se amahugurwa mu kazi kabo.

Icyumba giteguyemo umukeka w'icyatsi ndetse n'indi mikeke y'umukara cyicayemo abana bicaye mu buryo bw'uruziga, bambaye impuzankano imwe y'ubururu yandikishijeho amagambo y'umweru mu mugongo, hirya hari ameza ateretseho ibirahuri birimo amazi cyangwa se icyo kunywa, hari kandi n'abantu bicaye bambaye amakoti bigaragara ko ari abayobozi b'abana.

Ahantu hari kubera inama ku rwego rw'igihugu igaragaza uburyo bwo kubona umutungo mu bijyanye no ku guvura, hari insakazamashusho yerekana uri kuvuga uwo ari we wese, imbere kandi hari abayobozi bakuru batandatu, bicaye ku ntebe babwira abandi na bo baje kwitabira iyo nama, bicaye mu cyumba rusange.

Umwana w'umunyeshuri wambaye impuzankano yubururu ndetse' numupira w'ubururu bwerurutse n'ishati yumweru ari guka mugezi akorera isuku intoki ze bigaragara ko ashobora kuba agiye kurya ahantu arikorera isuku hari ibiti bitandukanye byamata menshi cyane.

Itsinda ry'abantu bafatanye ku rutugu bahagararanye bigaragara ko bari kwifotoza bari kumwe n'abaganga babiri barimo abambaye impuzankano z'ubururu, amapantaro n'amashati. Bafite icyapa bari kwifotorezaho kigaragaza ibyo bari bajemo, inyuma y'abo hari inzu yubakishije amatafari ahiye, iteye irangi ry'umweru, amagambo yandikishije ibara ry'icyatsi.

Abana bari ku mugezi rusange w'ishuri bagaragara ko bari gukina n'amazi bambaye impuzankano ya kake, umugezi uriho ibyapa by'umweru usa naho utanga amabwiriza ku bijyanye n'ikoreshwa ry'ayo mazi, nubwo abana bayarengaho bakaba bari gukina nayo.

Abantu benshi bicaye bategereje ubufasha ku baganga babiri bicaye imbere y'ameza ateretseho imashini ya mudasobwa, bari gufasha umubyeyi uhagaze imbere yabo wambaye ikanzu, nawe ategereje ko bamurangiriza bagakurikizaho abandi, hari kandi n'amagambo yanditse ku rukuta ayobora abaje gusaba ubufasha ahangaha.

Umugore uri kuvoma amazi mu ijerekani, ari kumwe n'umugabo uri koza igare, wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'umuhondo n'inkweto zifunguye kandi bari ahantu hari ikirere gisa n'aho nta zuba riri kuva, birasa n'aho imvura yendaga kugwa.

Umukobwa wambaye ingutiya y'umukara n'umupira w'umweru uri kuvoma ijerekani iteretse mu mabasi abiri agerekeranije iy'ubururu n'iy'umweru, ku mugezi uriho agahombo kamanura amazi, umugezi kandi uriho n'ingufuri, hirya yaho hari inzu isakaje amabati yarwaye umugese n'umugozi umanitseho imyenda.

Abana babiri baje kuvoma amazi ku ku mugezi afite isoko munsi y'ubutaka, uvoma ni umukobwa uri kuvomera akajerekani k'umuhondo aseka cyane, mu gihe umuhungu wambaye ishati y'umweru n'ikabutura y'umukara ari kunyongera amazi umukobwa, ngo amazi ave mu isoko ajye mu ijerekani.

Akazu k'amazi hari amajererekari menshi ari ku murongo ategereje kuvomwa, hari abantu bane, umukobwa uteruye amajerekani abiri waje kuvoma, umuhungu uri kuganira n'undi mukobwa, n'undi mukobwa uri kuvomesha, wambaye n'agapfukamunwa k'ubururu.

Icyapa kirimo umugabo wambaye indorerwamo z'amaso y'inzobe, kiri mu ibara ry'ubururu, handikishije amagambo y'umweru, ahandi handikishije amagambo y'ubururu, ariko kikaba yanditse mu ibara ry'umweru, kigaragaza ikigo runaka gikora, ibijyanye n'imiti ndetse n'inkingo.

Imbaga y'abantu yitabiriye inama n'umuyobozi wabo ari kubabwira abahagaze imbere, bicaye munsi y'ihema ry'ubururu, iri mu ibendera ry'u Rwanda, amabara y'icyatsi, n'umuhondo, n'ubururu. Bicaye ku ntebe zitegujwe ibitambaro by'umweru bose.

Itsinda rigari ry'abaganga bari kwifotoreza ku kigo nderabuzima basanzwe bakoreraho, iryo tsinda rigizwe n'abantu bambaye impuzankano y'ubururu abambaye iz'umweru abipfutse ibitambaro, inyuma yabo hari inyubako zubakishije amatafari yo mu iyumba ahiye.

Abana baje kuvoma ku mugezi ufite isoko yo mu butaka, hateretse ijerekani iri kuvomerwa, abo bana bigaragara ko bakinnye n'amazi cyane, umwe ari gutitira, yambaye umupira w'umutuku, undi yambaye umupira w'umweru, undi yambaye ishati y'ubururu, undi yambaye isengeri y'umukara, inyuma yabo hari umushike.

Umubyeyi wazanye n'abana babiri ku ivomo ari kuvomera ikidomoro kiri mu bwoko bw'uruziga aho agiteruye kugira ngo kitagwa hasi aho hantu hagaragara ko hari urubobi rwinshi kuko amazi yagiye atarukira ku bikuta ndetse umwana umwe yegamye ku gikuta undi ari kureba uko umubyeyi we avoma.

Abantu benshi barimo abagore bakuru, abana bato, bose batonze umurongo bigaragara ko aje kuvoma ku mugezi wa kizungu, umwana afite amajerekani abiri ari kuvoma, hari n'umugore uri kumutegera kugira ngo atamena amazi.

Itsinda ry'abantu benshi bitabiriye ibiganiro cyangwa se inama bakurikiye abari kubaganiriza, bose bambaye amakarita y'akazi, bafite n'utumeza dukoze mu ishusho y'uruziga tubateretse imbere, aho hateretseho amacupa y'ibyo kunywa bari kugenda bifashisha muri icyo gihe cy'inama.

Ahantu heza cyane hari ubusitani buteyemo ibyatsi, imihanda yo mu kirere, inyubako ziteye irangi ry'umweru, inzu zisakaje amabati atukura ari mu ibara rijya gusa na zahabu ndetse ikirere gihari kiragaragara ko nta mvura n'izuba biri bugwe.

Umubyeyi uteruye umwana unanutse cyane, yaje kumusuzumisha ku bijyanye n'ibiro no kureba iby'imirire, umuganga arimo kumufasha, yashyize akantu kameze nka bande mu kaboko ke apima aho imirire ye ihagaze, niba atari mu murongo utukura cyangwa se niba atari mu murongo w'icyatsi.

Umwana wishimye cyane w'umukobwa wambaye ishati irimo amabara y'umutuku n'ubururu, ari guseka cyane afite ijerekani y'ubururu ipfundikiye, afite n'indi jerekani y'umuhondo iriho umubirikira, afite indi jerekani y'umuhondo iriho akapa k'umweru, afite igifuru mu ntoki ari kwifotoza aseka cyane.

Umwana w'umunyeshuri w'umukobwa wambaye impuzankano y'umutuku hasi, ndetse n'umutuku urimo karokaro hejuru, uri gukaraba akora amasuku ku maboko ye, kuri kandagira ukarabe, aho baba birinda indwara zigiye zitandukanye zituruka ku mwanda.

Umubyeyi wambaye ingofero y'ubururu, ukenyeye igitambaro cy'icyatsi, wambaye umupira w'iroza, waje kuvoma amajerekani y'imihondo ku mugezi uriho impombo ijyana amazi mu ijerekani, uri ahantu hari amashyamba n'ibindi bimera bitandukanye, hari kuva akazuba gakeya k'akanyenyerezo.

Umwana wambaye ikabutura y'umutuku ndetse n'ishati ya gisirikare ari kunywa amazi ku mugezi wa kijyambere bigaragara ko ari kumwi ibiganza bye hanyuma ametse akagwa mu isafuriya hasi kuko yayitezeho hirya y'umugezi hari ikino kigaragara ko kirimo ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti hakaba kandi n'inzu iteye irangi ry'ubururu n'umweru.

Umugore w'umuganga wambaye ishati y'umweru ndetse n'udupfukantoki tw'umweru n'agapfukamunwa k'ubururu, afite urushinge ashaka kurujomba umurwayi wambaye ishati y'ikigina ndetse n'agapfukamuwa k'ubururu, aho ashaka kurujomba ku kaboko ke k'iburyo.

Abantu bari gutera imifuka bisa nkaho ari amafu y'ibigori cyangwa se umuceri. Hari kandi n'abagore babiri bari guterurana umufuka. Abo bose bari kugenda bayirunda imbere, bimeze nk'aho hari imodoka cyangwa se ikindi kintu kiraza kuyipakira. Ahantu bari hari ibyatsi byumye bigaragara ko ari igihe cy'izuba.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru, wambaye n'ikarita y'akazi iri mu gashumi k'ubururu, yambaye n'udupfukabiganza, ari gufasha umurwayi bisa naho ari kumufata amaraso, hirya yabo hahagaze umukorerabushake wambaye ijire y'umuhondo utegereje ko hagize ugira ikibazo yamufasha.

Ahantu hari ikigega kigaragara ko ari igitunganya amazi agemurwa mu baturage kirimo imiyoboro itwara ayo mazi iyakura mu bigega ndetse n'iyinjizamo, gifite kandi amatara agicanira, hirya hari ubusitani burimo ibiti bigaragara ko ari ibibuza imyanda kugira ngo yinjire aho ahantu hari icyo kigega.

Icyumba cyiza cyane giteye irangi ry'icyatsi ndetse n'iry'umuhondo kirimo agatebe keza kigenza ahantu hateze, kandi kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bifite n'imiyoboro bigaragara ko ari itwara amakuru, bakoresha mu gihe cyo kuvura abarwayi, iki cyumba kirimo kandi amashusho agaragaramo agasimba k'akanyamasyo kari mu mazi.

Itsinda rigari ry'abaganga cyangwa se abajyanama b'ubuzima, bari mu busitani bw'ibyatsi, hari abicaye hari n'abahagaze. Bambaye impuzankano z'ubururu, barimo bakoma amashyi bigaragara ko bari gushimira uwari uri kubaha ikiganiro muri ako kanya. Ikindi kandi bahuriyeho, ni uko abenshi muri bo bazanye udukapu bisa n'aho bitwaje ibyangombwa.

Umugore wambaye ishati ndetse n'ijire y'ikote, arimo arafotora umugabo uri gukorera akajerekani umwana w'umukobwa wambaye agakanzu k'umukara n'agapira k'umuhondo, umugabo yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'ubururu bwijimye n'ingofero y'ubururu n'agapfukamunwa k'umweru, ahagaze ahantu hagaragara ko hari igitaka.

Ababyeyi n'abana baje kwisuzumisha kwa muganga barimo barakorerwa amafishi, umuganga yambaye itaburiya y'ubururu, ababyeyi bambaye imyenda igiye itandukanye myinshi, harimo abahetse abana, harimo n'abadafite abana, harimo n'abana bakiri bato, bose bategereje gufashwa n'abaganga babo.

Umuganga wambaye impuzankano y'ubururu, arimo araganiriza umugabo n'umugore bafatanye ku rutugu, begamiye intebe zegamirwa, bisa n'aho ari kubereka bimwe mu byo bakeneye y'aba mu mirire cyangwa se mu bindi byose, kugira ngo bagire ubuzima bwiza mu rugo rwabo.

Abagabo bambaye amakoti ndetse n'umwe wambaye ishati y'umuhondo bari kwifotoreza ahantu hamwe basuhuzanya, ahantu bahagaze hari irangi ry'ubururu ndetse hari n'indabo inyuma yabo, ku gikuta handikishije amagambo y'umukara bigaragara ko iyi nama yakozwe muri bibiri na cumi na karindwi.

Umukobwa wicaye mu ntebe ya Kinyarwanda ikoze mu byatsi byitwa incunda. Yambaye ipantaro y'ikoboyi izinze ndetse n'isengeri y'umukara. Arishimye cyane ari guseka, yambaye igikomo ku kaboko ke k'ibumoso. Aho yegamiye hari ibyuma biteye irangi ry'umweru, bigaragara ko ari ibitangira abantu kugira ngo batagwa inyuma.

Itsinda rigari ry'abantu bari kwifotoza bigaragara ko bari bari mu nama cyangwa se ikindi gikorwa cyari kibahurije hamwe. Hirya yabo hari icyapa kigaragaza umuryango wari wabatumiye. Aba bantu bari mu ngeri zitandukanye, abagabo bakuze ndetse n'abagore. Bamwe bambaye amakote, abandi bambaye amashati bisanzwe, abandi bambaye amakanzu, abandi bambaye amajipo n'imipira.

Itsinda ry'urubyiruko ririmo abasore n'inkumi, bateruye icyapa bari kwifotozanya, baragifite mu ntoki, bigaragara ko hari igikorwa runaka cyari kibateranyirije hamwe kikaba gisojwe, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, kugira ngo berekere abandi icyo bahakoze.

Umuntu wambaye ishati y'umukara yacitse ku maboko ndetse no mu gatuza impumni ziragaragara afite ubwanwa bwaku cyane bumura ibirahu kugira ubwo afite n'umusatsi wakuze cyane uhinduka umutuku ntabwo ajya gukarabamobe ntabwo afite isuku ihagije ku mubiri we.

Urubyiruko rugizwe n'abasore n'abangavu bambaye imipira y'impuzankano imwe y'ubururu ifite ikirangantego ku ibere ry'ibumoso ndetse bayobowe n'umuyobozi wabo uri hagati yabo bari kwifotoreza munsi y'inzu bigaragara ko ari icyugamiro.

Abana babayeho nabi ni abirabura ubona ko badafite imyambaro, badafite ibyo kurya, ntababyeyi babagaragara iruhande, bigaragara nkaho bashobora kuba baratawe ku muhanda, bakaba ari abana bo ku muhanda, ikindi kandi kigaragara kubera uruhu rwabo ni abana basa na bo muri Afurika, ikindi kandi bisa naho niba batarataye urugo, bashobora kuba ari impunzi.

Itsinda ry'abantu benshi bari gutera ibiti bisa nkaho ari umuganda, bambaye impuzankano imwe y'imipira y'ubururu, bamwe barasoje bari kwifotoza bafite akapa kagaragaza ibyo bari baje gukora aho ngaho.

Umuntu wubitse umutwe bigaragara ko afite ikibazo cy'umujagararo w'ubwonko ari kumwe n'undi mukobwa uri kumufasha kwihangana akamubwira ko nta kibazo aza gukira kandi akamera neza, ari guhumurizwa undi nawe yifashe mu gahanga nk'aho ikibazo cye cyamurenze.

Abanyeshuri benshi cyane bazamuha ibiganza bigaragara ko bari gushaka gusubiza ikibazo babajijwe n'umwarimu wabo, ni abanyeshuri bagaragara ko bari gukurikira ikiganiro bahabwa n'umuyobozi wabo bambaye impuzankano y'ubururu bwerurutse bw'ikirere hejuru ndetse bamwe banambaye amashati ya kacyi.

Abantu benshi cyane bafite amabendera y'Igihugu cy'u Rwanda basa n'aho baje gushyigikira ikipe cyangwa se umuyobozi w'u Rwanda, bayamanitseho bose bafite ibyishimo, bari gusekera hamwe, barimo abana bambaye imipira y'ubudodo, ababyeyi bambaye amakanzu n'abagabo inyuma yabo harimo n'abambaye ingofero.

Ikirangantego cy'ubucuruzi cyerekana ahantu runaka hakorerwa akazi ko gufasha abantu bafite ibibazo byo mu mitekerereze kuba basubirana nk'uko bisanzwe. Kiri mu ibara ry'icyatsi, amagambo abanza ari mu ibara ry'umukara, mu gihe hari n'amagambo akurikira ari mu ibara ry'icyatsi.

Itsinda ry'abantu benshi, ririmo abagabo n'abagore bari kwifotoza, ku murongo w'imbere barasukaraye, hanyuma ab'inyuma barahagaze, icyumba barimo giteye irangi ry'umuhondo, gifite irangi ry'umweru, harimo kandi urugi rw'igiti ndetse n'idirishya ry'ibirahure rifite agatambaro karikingirije.

Umuntu uri mu gahinda cyangwa se akababaro kuko ibiganza bye byose bifashe ku matama kandi asinziriye asa naho ababaye, ari kumwe n'undi uri kumufasha amuhumuriza, anamugira inama ku byo ahuye nabyo uko biri bukemuke kandi bikarangira vuba.

Umusaza wambaye ingofero yacikaguritse cyane, n'ishati y'umweru irimo imirongo y'umukara, akaba akenyeye umukenyero w'umuhondo afite icumu ari guhamiriza aseka yishimye cyane bigaragara ko ari gukora imbyino z'umuco nyarwanda.

Icyapa kirimo umugore uri guseka kandi wishimye asinziriye, kiragaragaza ko aha hantu hatangirwa ubufasha bujyanye n'ubuzima, kwita ku bijyanye n'imitekerereze, gusuzuma, ndetse no kugira inama umuntu waba uzikeneye uwo ari we wese, kiri mu ibara ry'ubururu ndetse kandi aha hantu hagaragara nkaho ari ahantu umurwayi yahavana ibyishimo cyane kurusha ahandi hose.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga rihambaye kuko bisa umweru kandi bikaba binafite amapine bishobora kuba byakwigenza birimo insakazamashusho isa umukara, byose bifite imigozi bisa n'aho bikoresha amashanyarazi hari n'intebe y'umukara nayo ifite amapine ishobora kuba yakwigenza mu gihe wayikurura.

Ishusho y'umuntu ugaragara ko afite umusatsi mwinshi, ari kumwenyura, ari imbere y'insimburangingo z'amenyo, bigaragara ko ari kuzigera, bisa n'aho yaje kwivuza amenyo ye. Amenyo menshi ari mu bwoko butandukanye, arimo kugenda yigera ngo arebe ko yaba ahuye n'ibyo ashaka kwivuza.

Umuganga w'amenyo yambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'udupfukatoki tw'ubururu, yipfutse agatambaro k'umweru n'agapfukamunwa k'umweru ari gufasha umurwayi bigaragara ko ashobora kuba ari kumuhoma cyangwa se gukuramo imyanda mu menyo ye y'ibijigo.

Umukobwa w'inkumi wambaye isengeri y'umweru wipfutse n'igitambaro cy'umweru, ari kwita ku menyo ye ayoza akoresheje uburoso bw'ubururu, hirya ye hari ibitambaro by'umweru bitatse mu nzu, aho ari gukorera icyo gikorwa cyo kwita ku menyo ye.

Umukobwa uri gusukura amenyo ye akoresheje akadodo gahambiriye ku tuntu tubiri, agacisha hagati y'amenyo hanyuma akagenda akuramo imyanda, biragaragara kuko afite amenyo ahengekeranye kandi n'inzobe mu maso.

Umukobwa w'inkumi wambaye isengeri y'umweru n'imisatsi miremire igera mu rutugu, ari gukora isuku amenyo ye akoresheje uburoso bw'umutuku, afite umuti w'amenyo mu ntoki, ari kwireba mu kirahure uko agenda akora amasuku areba ko amenyo ye ari gucya.

Umugabo w'umusatsi mukeya kandi w'inzobe uri guseka cyane, ari gukorera amenyo ye isuku akoresheje akadodo ari kunyuza hagati y'amenyo akagenda akuramo utwanda, umugabo afite ubwanwa buke kandi inyuma ye hari ibara ry'umweru.

Abaganga bambaye impuzankano z'imipira y'umweru ndetse n'udupfukamawa tw'ubururu barimo bafasha abarwayi bambaye imipira y'icyatsi bicaye ku ntebe imbere y'ameza ateguje ibitambaro by'umweru. Barimo kubashyiramo utwuma dusa naho ari ugukura imyanda mu menyo kugira ngo babone uko bayavura.

Abana b'abanyeshuri bari gukora amasuku mu menyo yabo bakoresheje uburoso, bambaye impuzankano za karokaro hejuru, ndetse n'amajipo y'icyatsi, bambaye n'imipira y'imbeho y'icyatsi. Abana bose barogoshe kandi baracyari bato, bameze nk'abiga mu mashuri abanza.

Abana babiri bambaye amakanzu y'ubururu, bari kogesha amenyo uburoso bw'umuhondo ndetse n'ubw'ubururu, aba bana biragaragara ko bafite umusatsi muke baracyari bato, inyuma yabo haragaragara ibyatsi bisa naho batuye ahantu hadatuwe cyane.

Umuntu uri gukora igeragezwa ku miti cyangwa se ibizami yafashe umurwayi, afite ikirahure mu ntoki ari kureba uko bihagaze, afite ikindi kirahure ku ruhande giteretse imbere ye kirimo ibintu by'ubururu bisukika n'ikindi kirahure giteretse imbere gipfundikije umuvuniko w'ubururu.

Abagabo babiri bakuze bari gukora imyitozo ngororamubiri yo kwiruka, bambaye amakoti y'umweru hejuru n'amatiriningi y'umukara hasi. Umwe afite icupa ry'amazi undi ari kureba aseka, umwe yitwikira agapira k'umukara. Bari ahantu hari ibiti ndetse n'ubusitani bwiza cyane.

Umurwayi uri kwa muganga uryamye ku gitanda, yambaye umupira w'umweru, yiyoroshe n'ishuka y'umweru, yifashe mu nda, ararembye cyane dore ko yambaye ikimufasha ubuzima mu kaboko, hirya ye hari ibyuma byo kwa muganga bimufasha kumwongerera amaraso, hari n'umuganga umuhagaze iruhande wambaye impuzankano y'umweru.

Abasaza babiri bambaye ishati y'umweru undi yambaye iy'ubururu, umukenyero w'umweru undi yambaye umukenyero w'umukara n'ingofero z'urugara bigaragara ko bari baje mu bukwe, aho bahavugiraga imisango itandukanye nko kuvugira inka n'indi mico ya kinyarwanda ibera mu bukwe bwa kinyarwanda.

Umuganga uri gusuzuma umurwayi amusuzuma umuvuduko w'amaraso akoresheje icyuma yamushyize ku kaboko ke k'ibumoso, biteretse ku meza, afite n'akuma ari kureberamo uko umuvuduko uhagaze, umuganga yambaye impuzankano y'umweru ahantu hose.

Abantu basohokeye mu nzu itegurirwamo amafunguro bafite amafunguro batetse imbere, barimo barasangira, ni umusaza n'umukecuru bari kuganira, bafite umusore w'urubyiruko uri kubafasha yambaye ikarita y'akazi n'indorerwamo z'amaso zimufasha kureba, ategereje amabwiriza nibyo bamutuma ubundi akabibazanira.

Umuntu w'umugore wambaye ikanzu y'ubururu, arahagaze ahagurukiye ku kantu kamufasha guhagarara bisa nkaho afite ikibazo cy'ubumuga ku buryo atabasha guhagarara wenyine. Inyuma ye hari intebe yari yicayeho, ari mu cyumba cya wenyine, bigaragara ko ari icyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, giteye irange ry'umweru. Ndetse ahantu ahagaze hasize irange ry'ikigina.

Abantu babiri bishimye cyane bari guseka cyane barimo umugore umwe ukuze wicaye mu ntebe z'umweru akanegama inyuma ye hari umuganga umufashe ku rutugu na we ari kumwifotorezaho aseka cyane, bisa n'aho yari yaje kwivuza akaba yakize.

Umukecuru uri guhabwa imiti yo kunywa kuko amaze kuvurwa, imbere ye hari agakarito k'umuhondo ndetse n'ikirahure kirimo amazi yo kunywesha imiti ari guhabwa. Umuganga ari kumuha ibinini mu ntoki ngo abinywe kugira ngo agabanye ubukana bw'indwara amaze kuvurwa. Yicaye imbere y'ameza y'ikigina mu cyumba giteye irangi ry'umweru, kirimo n'akantu karimo indabo.

Umusaza urimo wandika mu ikayi, yambaye indorerwamo z'amaso zimufasha kureba, afite imvi z'umweru, yambaye ishati y'icyatsi kibisi, uherekejwe n'umupira w'umweru. Uyu musaza ameze nk'uri gutekereza cyane kuko bigaragara ko ari gukoresha ubwonko.

Umusaza uri kumwe n'umukecuru we bigaragara ko amwishimiye, umukecuru yipfutse igitambaro cy'umutuku, yambaye ikote ry'ubururu, umusaza we yambaye ikote ry'umukara, afite imvi nyinshi mu mutwe. Umukecuru ari guseka mu gihe umusaza yamwubitseho umusaya.

Umubyeyi uri kumwe n'umusore wambaye umupira w'umutuku n'inkumi yabaye ikanzu y'umweru, bari kumwarurira, umwe afashe isahani, undi ari gushyiraho ibyo kurya, bigizwe n'indyo yuzuye y'ibikomoka ku mboga, imbuto ndetse n'inyamafufu.

Umusaza n'umugore we basohokeye ahafatirwa amafunguro, imbere yabo hari ameza y'umweru ateretseho amasahani ariho amafunguro atandukanye, harimo ibikomoka ku mboga n'ibinyamafufu. Bafite amakanya bari kurisha baganira umusaza yambaye indorerwamo z'amaso zimufasha kureba.

Umusaza ubyibushye cyane yicaye ku ntebe y'umweru, ameze nkaho yari yaje kwa muganga. Akaba ari guhabwa amabwiriza ku miti agiye guhabwa. Umuganga yambaye impuzankano y'umweru ari kumusobanurira, bitewe n'ibyo yabonye indwara afite, ndetse n'imiti yakiza iyo ndwara.

Ababyeyi b'abagabo n'abagore bari mu itsinda rimwe bari kwifotoza bishimye bamanitse amaboko, bari ahantu mu kinani hari ibigori, ibishyimbo n'ibindi bihingwa birimo amashaza, ahantu hari ikirere ubona ko kijimye, barishimye cyane kandi bari guseka bose bamanitse amaboko.

Abantu babiri bafite icyapa giturutse mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda gishishikariza abantu kurwanya cyangwa se kwirinda indwara y'igituntu kwisuzumisha kare bigaragara ko bari mu bukangurambaga ku bijyanye n'indwara y'igituntu inyuma hari ibara ry'umweru n'ubururu.

Abaganga bicaye imbere y'ameza bari gufasha abarwayi bisa naho bari kubafata amaraso ku ntoki, imbere yabo hari udukarito turimo imiti n'ibindi bakoresha nk'inshinge, aho bambaye utuntu mu ijosi, tugaragara ko ari amakarita y'akazi yabo basanzwe bakoreraho.

Icyapa kigaragaza kimwe mu kigo cy'igihugu gikorera mu Rwanda, iki cyapa kirimo umwana useka cyane wishimye wambaye umupira w'icyatsi, afite utudorerwamo ari kureberamo, icyo cyapa kiri mu ibara ry'ubururu, ryandikishijemo amagambo y'umweru, hejuru ahandikishije amagambo y'umukara mu ibara ry'umweru.

Umwana usinziriye wambaye umupira w'umweru, ufite umusatsi mwinshi, ari mu cyapa kigaragara ko ari ikiburira abantu kwihutira kwivuza, kuko bakererewe bashobora kuremba, bigaragara nk'aho uyu mwana yarembye kubera ko yatindanwe kwivuza.

Urwandiko rwanditswe nk'itangazo rya kimwe mu bigo bikorera ku butaka bw'u Rwanda, byanditse ku rupapuro rw'umweru, mu ibara ry'icyatsi, amagambo menshi ndetse hagaragara n'ikirangantego gisobanura ko ari Leta y'u Rwanda.

Umuntu w'umugore wambaye ikanzu y'umweru n'agapira k'icyatsi, ufite indangururamajwi aganiriza abari mu cyumba cy'uruganiriro, akoresheje imbwirwaruhame yabateguriye, agenda anacishamo aseka, arishimye cyane.

Abantu benshi cyane biganjemo abakobwa gusa, bambaye impuzankano y'imipira imwe y'umweru ndetse n'umukara, bicaye imbere y'ameza ateguye ibitambaro bifite ibara ry'ikigina, umutuku werurutse ndetse bamwe bambaye ingofero.

Abantu babiri barimo umugabo n'umugore bambaye bose amakarita y'akazi bari kwamamaza ikigo kiri ku cyapa kiri inyuma yabo, icyo kigo kigaragara ko gitanga ubufasha ku bijyanye n'ubuzima bwiza muri aka karere k'Afurika y'Iburasirazuba.

Abarwayi b'ingeri zitandukanye barimo abagabo n'abagore, bose bari imbere y'abaganga, bategereje gufashwa, bambaye udupfukamunwa, wagira ngo barwaye ibicurane, birinda kwanduzanya izo ndwara zandurira mu mazuru, umuganga yambaye amataburiya y'umweru, mu gihe abarwayi bambaye imyenda igiye itandukanye, irimo amakanzu n'imipira, ndetse n'amajire kuri bamwe.

Abantu bari kuganira imbere y'inzu ifite umuryango munini w'urugi rw'igiti, ifite n'amadirishya manini y'ibirahure ,haragera urumuri rw'itara kuko hari ku garagara ibicucu byabo, amadirishya arabonerana kuko abo mo imbere bari kugaragara ko bambaye imyenda y'umweru ndetse n'abambaye imyenda y'umukara . Iyo nzu hejuru hageretseho indi.

Ahantu hateye irangi ry'umweru ndetse ni ry'umuhondo hagaragara ko ari nk'ahantu bavurira abarwayi kuko hari ibyumba bitandukanye ndetse hari n'intebe zibakira. Hari idari ry'umweru, harimo n'urumuri ndetse hakigishije n'ibirahuri kuko urumuri rugaragara ko ruhagera igihe.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga, bigaragara ko harimo n'imiyoboro itwara amakuru, yifashisha mu gihe cyo kuvura. Gisize irangi ryiza cyane ry'icyatsi n'iry'umuhondo, harimo kandi agatebe kizengurutsa, gafite n'amapine kuburyo ahateze ka

Icyumba kirimo intebe nyinshi za kijyambere ndetse n'ameza agezweho, kigaragara ko gikorerwamo inama yo ku rwego rw'igihugu cyangwa se mpuzamahanga, aho hagaragara intebe ziri mu mabara y'umukara, ameza ari mu ibara ry'ikigina ndetse n'ibindi bikoresho biteretse imbere biri mu ibara ry'umweru.

Abantu baje kwivuza bafite imbeho, abagabo baripfumbase, abagore bifubitse ibitenge byabo, imbere yabo hari ubusitani bwiza cyane burimo ibyatsi n'amazu ateye irange ry'umweru asakaje amabati ajya gusa n'ibara rya zahabu.

Inzu yo kwa muganga isize irangi ry'umweru gusa, uretse ahari ibyapa bibarangira biri mu ibara ry'icyatsi, hejuru harimo amatara atanga urumuri, harimo n'idari ry'umweru, hasi hose ni umweru, hari isuku ihagije, haba hateguwe hanakoropwe ndetse neza. Harimo amadirishya atanga umwuka abantu bahumeka.

Inzu yo kwa muganga igizwe n'inzugi nini cyane ziteye irange ry'umweru, aho abaganga bahagaze abandi bicaye bambaye imipira y'ubururu ndetse n'amakarita y'akazi bategereje abarwayi. Ni ahantu hagaragara ko hafashirizwa ababyeyi baje kubyara.

Icyumba cy'ibiro runaka gisukuye neza giteye irangi ry'umweru, kirimo umuriro, kirimo amatara amurika, kiriho inzugi ziteye irangi ritukura, gifite amakaro agaragara nk'umutuku.

Umuganga uri kwita ku murwayi, wiyoroshe ishuka y'umweru, areba ibipimo bye by'uburwayi aho bigeze, yambaye ishati y'ubururu, afite imisatsi y'umukara ihambiriye inyuma, ikindi kandi umurwayi aryamye ku gitanda, gishashwe n'amashuka y'umweru.

Inzu nziza igeretse inshuro zigera kuri eshanu, iri kubakwa bigaragara ko iri mu kigero cyayo cya nyuma cyo kurangira, imbere yayo hari abantu baje kuyisura bigaragara ko ari nk'abakozi bazayikoreramo, ariko ntabwo harakora neza ngo harangire kuko imbere haracyari umuhanda w'igitaka.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku cyerekana ikigo nderabuzima cya Matyazo, hari abantu bari guturuka muri icyo kigo nderabuzima basoje kwivuza, ndetse n'urugi rwinjira muri icyo kigo nderabuzima rurakinguye, ni ikaze kuri buri umwe.

Umurwayi wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ikigina, agapfukamuwa k'umukara n'ingofero y'umukara, aryamye ku gitanda cy'ubururu ari gufashwa n'umuganga wambaye impuzankano y'umweru, bamwambitse agapima amaraso mu kaboko k'iburyo, ako kantu ni ak'ubururu.

Inzu nziza ifite umuhanda uyinjiramo ugizwe n'amatafari akoze mu ibumba agegennye neza kandi ahiye, iruhande hari ubusitani burimo indabo z'amababi manini cyane ndetse n'ibyatsi, iruhande gato hari imigano yubatse ikikije ubwo busitani.

Icyumba giteye irangi ry'umweru cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga nk'ibitanda ndetse n'ibindi bikoresha ikoranabuhanga, kirimo akabati babikamo ibikoresho, gifite amadirishya y'ibirahure, kirimo idari risa n'ikigina ndetse n'umuhondo, kikagira itara rifite urumuri rw'umweru.

Umugabo ubyibushye cyane urwariye kwa muganga aryamye ku gitanda, yambaye agapfukamunwa, akaboko ke karimo ibimugemurira umuti. Aho muri icyo cyumba kandi hari n'ibindi bikoresho byinshi byo kwa muganga by'ikoranabuhanga bifasha abarwayi kubavura, bibaha imiti, bifasha abatabasha guhumeka neza.

Inzu ifite irangi ry'umweru izengurutswe n'imbuga y'igitaka, ikajyira n'ubusitani burimo ibiti birebire, isakawe n'amabati y'ubururu yandikishijeho ibara ry'ubururu rigaragaza ko ari inzu y'ababyeyi aho babyarira.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda gitwikirije ishuka y'umweru, kikabamo ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, bifite imigozi icometse ku muriro, kikabamo n'ahandi hari aho barebera ibyo umurwayi yagaragaje ku rukuta.

Icyumba cy'ivuriro kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bifasha mu kuvura, kirimo igitanda cy'umurwayi, kirimo kandi n'ibindi bikoresho bifasha mu gupima ibitaboneshwa amaso ndetse n'ibipimo byabyo by'ibyo wabonye, bigaragara ko iyi nzu iteye irangi ry'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga giteye irangi ry'umweru, kirimo ibikoresho byinshi byo kwa muganga bitandukanye by'ikoranabuhanga, harimo ibikoreshwa n'amashanyarazi, harimo kandi icyapa kigaragaza inyongeramirire cyane cyane imbuto, n'ibindi bitandukanye byongera vitamine mu mubiri w'umuntu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bikenewe nk'ibitanda ndetse n'ibindi bikoresha umuriro, harimo kandi ururabo rugaragara mu kirahure kibonesha bigaragara ko arigufasha abarwayi kugira ngo bakomeze kugira ihumure, hari n'insangazamashusho igaragaza ibyo babonye mu burwayi.

Inzu nziza cyane irimo intebe z'imisego ndetse na matera. iteye irangi ry'umweru, ifite inzugi z'ibirahure kandi nini bigaragara ko harimo urumuri ruhagije, ifite igare ry'umuhondo hejuru, kandi ifite n'inkingi ebyiri zishamikiyeho ziyifasha kugira ngo itagwa.

Umuganga wambaye impuzankano y'ubururu ari kwita ku murwayi bigaragara ko amaze gutora imbaraga, afite igipimo cyangwa se akuma k'ikoranabuhanga yakoreshaga amuvura, yamwambitse no mu maboko akapimisha ibijyanye n'umuvuduko we w'amaraso, agenda areba ku nsanganyamashusho y'ako kuma.

Ibikorwa remezo by'amashuri bikikijwe n'ubusitani, burimo abantu bari kubutegura bari gukata indabo, indabo z'umuhondo, iz'icyatsi ndetse n'iz'imituku, gisakajwe n'amabati y'ubururu, imituku gisize irangi ry'umuhondo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa iyo hafatwa ibizamini basuzuma uburwayi bw'abarwayi baba baje kwivuza, ni icyumba giteye irangi ry'umweru yaba ku bikuta ndetse no ku idari hejuru.

Ikigo nderabuzima gifite inzira y'abanyamaguru ikoresheje amatafari meza ya sima, kikagira ubusitani bwiza bw'icyatsi buteguye neza, kikagira ibikorwa remezo birimo inzu zisize amarangi y'umuhondo, asakaje amabati atukura kikanagira aho bafatira amazi.

Inzu nziza cyane iri ahantu hagaragara neza hari n'urumuri ruhagije, igaragaza ko ari akarere ka Nyarugenge n' inzu igeretse kabiri kandi yubatse ku buryo bw'ikoranabuhanga ku buryo yibonye abona ubwiza bwayo ifite ubusitani bwiza iteho n'ibiti bizana akayaga muri iyo nzu.

Icyumba gikoreye amasuku kirimo amakaro y'ikigina ndetse kirimo n'idari ry'umweru, gifite amadirishya manini cyane, kirimo ibitambaro bipfutse ibitanda ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa kwa muganga, ibikoresho byiganjemo iby'ikoranabuhanga bikoreshwa n'umuriro.

Icyumba gi kigi inzugi nziza z'ibirahure kandi nini cyane kirimo agakupu muririro kirimo kandi akabati kagaragaza

Ibitaro bya kabgayi bigaragara mu ibara ry'umweru byanditse ho ku marembo yabyo bifite inzu zubatse amatafari ahiye zisakaje amabati y'ubururu hari kandi imihanda y'ibitaka hari ubusitani buteyemo ibiti birebire ndetse n'ibyatsi.

Ikigo nderabuzima cya Rwerere mu magambo y'umukara ahanditse ku gikuta cyaho cy'umweru munsi hari amatafari ahiye, hari ubusitani bwiza cyane buteyeho indabo zigegennye neza zitaweho kandi zibona izuba ku buryo buhagije.

Inzu yubakishije amatafari y'ibumba ahiye, iteye irangi ry'umuhondo rijya gusa n'umweru, yanditseho ko ari inzu y'ababyeyi mu ibara ry'ubururu nk'uko bigaragara, isakaje amabati y'ubururu, ikindi kandi ifite urugo rw'ibyuma by'umutuku.

Umuntu wambaye impuzankano y'ikigina, ingofero y'ikigina ndetse n'ishati y'umweru n'inkweto z'umukara, bigaragara ko ari ushinjzwe abinjira n'abasohoka, ku nzu iri imbere isize irangi ry'umuhondo, hari kandi kugaragara ishyamba riteye ahantu hakurya, ahantu hagera izuba.

Ibitaro bya Nyarugenge biri mu mbuga ikoresheje amatafari mato agegennye neza kandi ahiye, hateyemo igiti kigaragaza ko gikurura umwuka, biri mu ibara ry'umweru ryandikishije ku rukuta rwaho, hari n'ibyerekezo bibiri birebana aho umuntu yinjirira agiye gusaba.....

Icyumba kirimo intebe ndetse n'utubati twanditseho ko bacuruza imiti byihariye, bigaragara ko harimo imiti myinshi iri mu dukarito ndetse no mu ducupa, aho hari na mudasobwa iteretse kuri ayo meza bigaragara ko hari aho bandika ibyo bacuruje, muri iki cyumba kandi haragaragaramo amatara nubwo atari kwaka.

Icyumba cyo kwa muganga gikoreye isuku giteye n'irangi ry'umweru ku bikuta ndetse no hejuru, gifite ibirahuri bituma urumuri rwinjira ndetse giteyemo irangi rya oranje ahagana imbere, gifitemo ibitanda bigaragara ko biryamyeho abarwayi ndetse kandi gifite n'ibikoresho bikoresha umuriro kuko hari umugozi ucometse mu gikuta.

Ibikoresho byo kwa muganga birimo udupfukantoki, imiti y'amenyo, ibizingiye ku bizingo bikoreshwa mu guhambira imvune, ibiri muri ambaraje, udukingirizo ndetse n'ibipima umuriro byose birunze hamwe bagaragaza ko ari ahantu bavura.

Umuganga uri kuvura umurwayi wambaye urukweto mu kaguru k'ibumoso nta rukweto mu kaguru k'iburyo, ari na ko bari kuvura bagapfukaho ibitambaro, yambaye ikabutura n'umupira bisa umukara, umuganga yambaye impuzankando y'ubururu.

Umukinnyi wiruka akoresheje amaguru ararwaye, yambaye isengeri y'umutuku n'ikabutura y'umukara ari gufashwa n'umukorerabushake wambaye ijire y'icyatsi amujyanye kwa muganga kubera ko yafashwe n'indwara akaba atameze neza.

Umwana ukiri mutoya uzinzeho igitambaro cy'umweru bigaragara ko yavunitse akaguru, yambaye ikabutura ya kaki ndetse n'umupira w'umweru n'agakote k'umutuku, yicaye ku meza impnde ye hari urupapuro ndetse hari n'umuntu uri kumufasha wambaye agapira k'umutuku bigaragara ko ari kumuvura iyo mvune yagize.

Icyumba bafashirizamo abana kuko harimo abana benshi, hari umubyeyi wazanye umwana kumuvuza, umwana aryamye hasi , umubyeyi amuteyere amaboko yombi bisa n'aho umwana arembye, hari umuganga uri kumufasha yambaye impuzankano y'umweru, bose barunamye bameze nkaho bahangayikiye umwana cyane.

Umugore wambaye ibitenge by'ubururu yicaye kuri matela y'icyatsi irimo uturabo, ari kumwe n'akana ke kambaye ikanzu y'umweru kari guseka cyane. Aho hantu muri icyo cyumba barimo kirimo ibikoresho bitandukanye biri mu masanduku ndetse no mu bikapu. Aho bigaragara ko icyo cyumba gifite idirishya rimwe kandi giteye irangi ry'umuhondo.

Abantu babiri bari mu cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri baje gukora iyo myitozo, umwe aryamye ku gitanda, undi ari kugorora amaboko bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga biri muri icyo cyumba, umwe yambaye umupira w'umuhondo undi yambaye umupira w'umukara n'igofero y'umukara.

Umugabo uteruye imipira ibiri yo gukina, yambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'ubururu, ari guha amabwiriza umudamu wambaye umupira w'umuhondo n'ikabutura y'umukara, ugenda akoresheje insimburangingo, asa n'uwavunitse ariko akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyapa cy'umweru gikoreshwa hamamazwa, kigaragaza ko hari ahantu hari ibikoresho bikoreshwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, birimo amagare yo kunyonga, imipira yo gukina, inkweto zo kwambara, n'ibindi byose bikenerwa hakorwa imyitozo ngororamubiri.

Umuganga wambaye ikanzu y'umweru uri gusuzuma umurwayi, yamuhaye ikintu afata mu ntoki gisa n'ibara ry'ubururu, umurwayi yicaye mu ntebe y'umukara, yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'ubururu.

Umuganga w'umukobwa wambaye umupira w'umukara, uri guhahambira igipfuko ku musore ku kaboko ke k'iburyo, ameze nk'aho arwaye cyangwa se yavunitse. Muganga yambaye isaha y'umukara, agapfukamunwa k'umukara n'imisatsi y'umukara.

Umusore utambaye imyenda hejuru ufite amatuza manini bigaragara ko yakoze imyitozo ngororamubiri ihagije. Afite ibishushanyo bimushushanyijeho ku rutugu rwe rw'iburyo ndetse ntabwo ananutse. Afite igikanu kinini kandi afite n'amaboko abyibushye cyane.

Umuntu w'umugabo afatiye akaboko ke ku ivi aricaye yambaye umupira w'umweru, afite akantu mu ntoki gashobora kuba ari nk'agashashi karimo amazi akonje gafasha kugabanya uburibwe bw'imvune, agafatirwa ku kaboko k'iburyo akoresheje ak'ibumoso, bigaragara ko ashobora kuba afite ikibazo cy'imvune cyangwa se ubundi buribwe mu kaboko ke k'iburyo.

Abagabo bari gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga umwe ari ku rwego undi ari kumuhereza afite agakarito k'umutuku karimo ibikoresho bakoresha mu kazi, undi arahagaze ari kubaha amabwiriza bigaragara ko bashobora kuba bari gusubizamo amashanyarazi yangiritse.

Umuntu w'umugabo ari kwivura imvune akoresheje agashashi cyangwa se akandi kantu karimo amazi akonje y'urubura afasha mu kugabanya uburibwe ahantu havunitse. Ari gukoresha akaboko ke k'iburyo akandi kaboko k'ibumoso kakamuzamurira ipantaro kugira ngo akoze.

Ibikoresho byo kwa muganga bikoranye ikoranabuhanga biriho imigozi yakorohereza uwabitwara kubitwara ku rutugu icometsemo agakoresho gafata amakuru ndetse hari n'igipupe bari gufatiraho amakuru bagerageza kureba niba abikora.

Abagabo babiri bari gukora imyitozo ngororamubiri umwe agorora undi ukuguru ugororwa yambaye ikabutura y'umweru n'isengeri y'umukara afite telefone mu ntoki ku kiganza cy'iburyo yambaye n'igikomo yambaye isaha y'umweru ku kiganza cy'ibumoso ndetse umugorora yambaye igikomo ku kiganza cy'ibu....

Icyumba cyo kwa muganga giteye irangi ry'umweru ndetse gikoreye n'isuka ihagije kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga rihambaye, hakabamo n'utubati tubikwamo ibyo bakora cyangwa se ibyo babona mu barwayi, ni icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye bikoresha umuriro, ibiri mu ibara ry'umweru ndetse n'akabati karimo utundi dukoresho turi mu ibara ry'umuhondo.

Amaguru y'umugabo wambaye agakabutura k'umukara kandi kagufi, ufite amaguru akomeye cyane aho afite amabara y'umutuku ndetse n'ubururu ku ivi rye ry'iburyo rigaragara ko ari nk'ikimenyetso yashyizeho kigaragaza ubwamamare bwe.

Isanduku irimo ibikoresho by'isuku nk'amavuta, impapuro zo muri tuwarete, ikabamo kandi umukasi, ikabamo uburoso, ikabamo n'imiti yo kwivura, isanduku irimo udutabo, ikabamo n'indi miti ijyanye n'ubuvuzi ikoreshwa kwa muganga.

Ibikoresho bibiri biri mu ibara ry'iroza bigaragara nk'aho ari ibyuma biterwa n'amaboko kugira ngo hakomezwe imitsi cyangwa se ibikaya y'amaboko, birikumwe n'imbuto kandi zifashishwa n'umuntu ukora imyitozo ngororamubiri , n'imboga zirimo nk'amaronje ndetse n'izindi zitandukanye za kizungu.

Abantu babiri bambaye impuzankano zisa amakabutura y'umukara n'imipira y'ubururu bagaragara nk'abakinnyi kuko hari n'umupira basanzwe bakina, bambaye n'imyenda yose y'umuntu ukina umupira w'amaguru, umwe araryama ameze nk'uwavunitse undi ari kumukandira mu ivi amugorora kugira ngo ikibazo cy'imvune yagize kigabanuke hanyuma bongere bakore imyitozo.

Amacupa atatu y'umweru apfundikije imifuniko y'umweru, ariho ibirangantego biri mu ibara ry'iroza, aragaragaza ko harimo imiti igabanya uburibwe, ikoreshwa hakoresheje gucucira ahari imvune cyangwa se ahari ikibazo.

Ikirango kigaragaza imipira itandukanye y'imikino igiye itandukanye aho hari imipira itanu ndetse haragaragara ko aho hantu hashobora kuba hagurishirishwa cyangwa haba ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri nk'umupira w'amaguru, umupira w'amaboko ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu kubaka ibibuga bakiniraho.

Umukobwa w'inkumi uvuye mu myitozo ngororamubiri yambaye isengeri hejuru, yambaye n'ipantaro imwegereye ari kunywa amazi, yambeye n'igipima imbaraga yakoresheje ku kaboko ikindi kandi ni uko yahambiriye imisatsi ayihambiriye inyuma.

Umugabo usutaraye akora imyitozo ngororamubiri, yambaye ikabutura y'umweru, hejuru nta kintu yambaye, yambaye inkweto z'umweru, ari gufata akaboko ke akagakoza ku kirenge cye cy'iburyo, akandi kaboko kagakora hasi, yambaye isaha ari kureberaho ibihe aba ari gukoresha muri icyo gihe cy'imyitozo ngororamubiri.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri aho ari kwigorora ivi rye, afite ibiganza bye byombi yaranditseho yambaye umupira w'umweru hejuru ,umweru wijimye yambaye n'ikabutura y'umukara, yambaye n'inkweto zirimo n'amasogisi y'umweru, uyu mugabo ari kugorora amavi ye ayahuza ku mfuruka ya mirongo icyenda.

Ahantu hari ibicuruzwa bitandukanye bigaragara ko bikorwa mu nanasi kuko hari nanasi ibyegereye kandi ibyo bicuruzwa byose bifunze mu ducupa ndetse no mu dukarito dutandukanye. Hari ibicuruzwa bigerekenyije, ibitukura ndetse n'ibiri mu ibara ry'ubururu, iry'icyatsi, umweru ndetse n'umuhondo.

Amacupa abiri y'umweru ashushanyijeho ibimera bigaragara ko ari ibikakarubamba, hakandikwaho n'amagambo mu ibara ry'icyatsi, hashushanyijeho n'uruyuki, biragaragaza umusaruro w'ibikomoka ku nzuki, nk'ubuki ndetse n'amavuta yo kurya.

Ubuvuzi bw'ibikomoka ku bimera hakoreshejwe ibimera bitandukanye birimo indimu, igitunguru, n'ibindi biri mu icupa bigaragara ko ari umuti w'amazi upfundikije agacupa kari mu ibara rya zahabu, uwo muti ukaba uri mu ibara ry'icyatsi.

Igiti gifite amababi menshi kandi meza cyane y'icyatsi kibisi, ni igiti gifite uruti rurerure ariko kidafite amashami menshi, aho kigaragara ko cyashamitseho irindi shami rito, kiri ahantu hameze nk'ahari urubura, imbere yaho hari inzu.

Ikimera cy'amababi n'amashami menshi cyane, gifite imitwe myinshi ku mpande zose, gikura kirandaranda ku bindi biti cyarenzeho ndetse kikaba cyararenze imitwe y'ibyo biti ku buryo kigeze aho kirereta hasi.

Ibimera bifite indabo z'umutuku, bikurikiwe n'ibyatsi bicucitse cyane byo mu gihuru, bigakurikirwa n'imbuto ziri mu ibara ry'icyatsi ziri kumwe n'icyuma cy'umucyo cyo kubihata, zigakurikirwa n'ibyatsi byo ku muharuro ndetse bigaherekezwa n'ibibabi by'icyatsi.

Icupa ry'umweru ripfundikijwe umufuniko w'umweru, ririmo imiti yangwa se ibinini, ibirango by'ibiririmo byanditsewe mu ibara rya zahabu, ibindi bikandikwa mu ibara ry'umukara, iryo cupa rifite munda hanini, ku mutwe hatoya kandi ripfukije umuvuniko ugiranye isuku.

Akajerekani k'umweru kandikishijeho amagambo y'umutuku ashushanyijeho n'uruyuki, hagaragara ko hashobora kuba harimo ibikomoka ku nzuki nk'amavuta, ubuki ndetse n'ibindi bisukika bishobora gufungirwa muri ako kajerekani.

Ibyatsi byinshi kandi bitoshye, bifite amababi menshi mato mato, afatiye ahantu hamwe, bikaba biri ahantu hagera urumuri rw'izuba kuko bishishagiye bimeze nk'ibyabonye intungamubiri nyinshi zihagije zikomoka ku mirasire y'izuba.

Icyapa kigaragaza ahantu hahingwa ibihingwa bimeze nk'icyayi, icyo cyapa kiri mu ibara ry'umweru, amagambo yanditsemo yandikishije ibara ry'icyatsi, ahandi ni umukara, harimo ibibabi bigaragara ko aho hantu hahingwa ibihingwa by'umweru bijyanye n'umuco gakondo wa Afurika.

Ibiti by'umuravumba biri ahantu heza kandi bigaragara ko bihinze mu rwego rwo kugira ngo bifashe abavuzi ba gakondo mu kuvura abarwayi, n'ibiti bifite ibibabi byiza cyane bigaragara ko byagezweho n'urumuri ruhagije rw'izuba kandi bihinze ahantu bibasha kwitabwaho.

Ingemwe z'imisave ziri mu bihoho by'umukara, aho muri buri gihoho harimo ingemwe ebyiri zakuze neza zabonye izuba rihagije ku buryo zifite amashami, ndetse ziragaragara mu ibara ry'icyatsi, bigaragara ko zabonye urumuri ruhagije. Ni ingemwe zigaragara ko ari iz'ibiti bikura bijya hejuru.

Umuntu uri ahantu hari ibimera bifite amababi menshi cyane inyuma ye hari ikindi kimera cy'urukangaga rwinshi ahagazemo, amezeze nk'uwaje guca bimwe mu bimera ngo abijyane abikoremo umuti wo kujya yivura kinyarwanda.

Amakarito, amashashi, ndetse n'amacupa ari mu bwoko bw'ibirahure, apfundikiye mu imifuniko igiye itandukanye iy'imituku, iy'umweru ndetse n'ibindi, bigaragara ko ari ibintu bikomoka ku nzuki kuko kuri buri karito cyangwa se kuri buri cupa, hashushanyijeho uruyuki mu ibara ryihariye, ibyinshi ni mu ibara ry'icyatsi.

Ikimera gikoreshwa bavura indwara, ni ikimera cya gakondo kigaragara ko gishobora kuba gikamurwamo amazi yacyo, hanyuma agafasha umurwayi. Ni ikimera kigaragara mu ibara ry'icyatsi kandi gifite urubabi runini cyane ruteye ku giti kinanutse.

Ahantu hari ishyamba ryinshi cyane, ricecetse kandi ritoshye, rigaragara ko rigerwaho n'izuba ku buryo buhagije, hari ibiti bitandukanye birimo imiyenzi n'ibindi biti bigira amababi menshi birandaranda, bikoze ikintu cy'igihuru ku buryo nta muntu cyangwa se ikindi kintu cyahagera uretse inyamaswa gusa.

nuko ayitubaza uturimo u tw'umutuku ndetse n'umweru twandikishijeho amagambo y'umweru ndetse n'umukara tutibagiwe n'icyatsi tugaragaza ko harimo inyongeramirire muri utwo dukarito yafasha abantu ndetse tukaba nko gukora ubukangurambaga kugira ngo iyi miti yitabirwe kandi ifatwe n'abantu

Ikimera cyameze iruhande rw'urugo, gifite amababi agiye atandukanye, gifite n'imbuto, ni ikimera kiri mu ibara ry'icyatsi cyabonye urumuri rukomoka ku zuba ruhagije kuko iki kimera kigaragara ko kigera ku zuba neza.

Abantu bagera kuri batandatu, bafite ikibazo cy'indwara y'uruhu nkuko bigaragara ku matama yabo, dore ko yakudutse yose, hari amacupa abiri ashushanyijeho inzuki, bigaragara ko harimo amavuta yafasha mu gutunganya cyangwa se kuvura uruhu rw'aba bantu.

Igikombe kirimo ibikomoka ku nzuki, gipfundikije umufuniko w'umweru, icyo gikombe na cyo ni umweru, hariho icyapa kikiranga, kikaba kiri mu ibara rya zahabu cyandikishije amagambo ajya gusa n'ikigina. Igikombe aho giteretse harasa icyatsi n'iruhande rwacyo ni icyatsi.

Igikombe kirimo imiti, kiri ibara ry'umweru, gipfundikishije umufuniko w'umweru, ibiranga umuti byanditse mu ibara ry'icyatsi ndetse hasi hazengurukijwe ishusho y'umukandara, iri mu ibara ry'icyatsi, icyo gikombe giteretse ahantu hari ibara ry'umukara, wagira ngo ni umwijima.

Ikirango kigaragaza Ikigo gishobora kuba gikora ibijyanye n'inyongeramirire ku bantu, ku nyamaswa ndetse no ku bimera, kiriho icupa ry'umweru ripfundikishije umufuniko w'umweru ririho uruyuki ruri gukora ubuki.

Icupa riri mu ibara ry'umuhondo ryandikishijweho amagambo atukura rishushanyijeho n'uruyuki ripfundikije umufuniko w'umutuku, ayo bigaragaza ko harimo umusaruro w'ibikomoka ku nzuki, cyane cyane amavuta atekwa cyangwa se aribwa.